Iyo ibihingwa bitewe umuti birera kurushaho kuko uba wabirinze udukoko, ni muri urwo rwego rero hano hari umugabo uhagaze mu murimo w'amashu, uhetse ikijerekani ku mugongo akaba ari gutera umuti muri aya mashu.

Umurima munini cyane uhagazemo umugabo uhetse ikijerekani ku mugongo, akaba ari gutera umuti mu bihingwa kugira ngo ibi bihingwa bitazatakwa n'udukoko maze bigapfa.

akabati karimo imiti igiye itandukanye, iyi miti akaba ariyo bifashisha mu gutera imyaka kugira ngo itazamo udusimba bityo umusaruro ukaba muke ku bahinzi.

Abagabo babiri bahagaze mu murima uhinzemo umuceri, bakaba bahetse ibintu ku mugongo, bigaragara ko barimo gutera umuti muri uyu muceri kugira ngo birinde udusimba twawangiza bityo umusaruro ukaba muke.

Ni byiza ko abahinzi bakoresha imiti yababugenewe bagatera umuti mu bihingwa byabo kugira ngo birinde udukoko tuza mu myaka maze tukayangiza bigatuma umusaruro ugabanuka.

Ni byiza ko abahinzi batera imiti mu bihingwa byabo kugira ngo bayirinde kwangirika kubera ko hajyamo udusimba, harimo umugabo wambaye igisarubeti urimo gutera umuti.

Mu rwego rwo kwirinda igihombo, abahinzi basigaye batera imiti mu bihingwa byabo maze bigatuma udusimba twari turimo dupfa bityo umusaruro ukiyongera maze bakajyana ku masoko bakabona umusaruro utubutse.

Umugabo uhetse ipombo mu mugongo akaba ari kugenda mu murima uhinzemo ibishyimbo bigaragara ko arimo gutera umuti muri iyi myaka kugira ngo hirindwe udusimba twangiza imyaka maze umusaruro ukaba muke.

Ni byiza ko abahinzi batera imiti mu bihingwa byabo aho turi kubona umugabo uhetse ipombo mu mugongo, akaba ari gutera umuti mu murima munini cyane uhinzemo umuceri kugira utazicwa n'udusimba.

Uducupa turimo imiti akaba ari imiti bifashisha mu gutera imyaka mu gihe yahuye n'udusimba cyangwa se mu gihe k'izuba kugira ngo ibashe gukomeza gukora neza nta dusimba turimo bityo ibashe gutanga umusaruro uhagije.

Igihingwa cy'ikawa ni kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga menshi cyane ku barihinzi, niyo mpamvu abahinzi bacyitaho cyane, bakagitera imiti kugira ngo birinde ubusimba bwacyangiza maze bazabone umusaruro utubutse.

Ni byiza ko abahinzi bagomba gutera imiti mu bihingwa byabo kugira ngo ibyo bihingwa bitangirika kuko hari igihe kigera udusimba tukazamo. Hano hari umurima urimo umugore uri gutera umuti mu muceri.

Umurima munini uhinzemo ibigori bikiri bito, uhagazemo abantu batandukanye ariko bigaragara nkaho ari abahinzi bambaye imipira y'icyatsi, imbere yabo hahagaze umugore wambaye umupira w'umweru bisa nkaho ari kubagira inama ku bijyanye no gukoresha imiti.

Abahinzi basigaye baramenye ubwenge aho bavangavanga imiti hanyuma bakayitera mu bihingwa byabo kugira ngo birinde udukoko twangiza ibihingwa maze umusaruro wabo ukaba muke.

Ni byiza ko abahinzi bajya batera imiti mu myaka yabo mu gihe cy'izuba cyangwa se mu gihe cy'imvura kugira ngo imyaka itabasha kwicwa n'udusimba ahubwo ikure neza itange umusaruro mwiza.

Abahinzi bagomba gutera umuti mu bihingwa byabo kugirango bibashe gukura neza kandi bitanga umusaruro uhagije, hano hari umugabo uhetse ikijerekani mu mugongo, bigaragara ko arimo gutera umuti mu bigori.

Icupa risa nk'umuhondo, ririmo umuti uterwa ibihingwa kugira ngo bibashe gukura neza, kandi bitange umusaruro uhagije ku bahinzi.

Abagabo babiri bahagaze mu murima uhinzemo umuceri bahetse ibikoresho by'ikoranabuhanga mu mugongo, bifashisha bari gutera umuti muri ibyo bihingwa kugira ngo udusimba tutabasha kubyataka maze umusaruro ukaba muke.

Ubuhinzi n'ubworozi bw'amafi busigaye bwarateye imbere mu Rwanda aho usanga buri muturage wese afite ubushobozi bwo kuba yakora icyuzi, hano turahabona amafi menshi cyane bamaze kuroba.

Ikoranabuhanga ryabaye ryinshi aho amafi asigaye yororerwa mu byuzi ariko akaba atari cyose ahubwo bakagenda bacamo uduce duto cyane akaba ari ho bororera cyangwa se bakazororera mu bigega bitoya aho zibyara umusaruro mwinshi.

Kera abantu bari bazi ko amafi aba mu nyanja gusa ndetse no mu biyaga ariko ubu birashoboka ko buri muturage wese yakwiyororera amafi akoresheje icyuzi cyangwa se ikiyaga agakoresha agace gato bityo akabasha kubona umusaruro mwinshi w'amafi.

Ubworozi bwo mu kiyaga bisaba gukoresha ubwato kugira ngo bite ku mafi yabo, aho bagendesha ubwato mu kiyaga, hanyuma bagahagararamo bagatereramo ibiryo kugira ngo amafi abone ibyo arya.

Ubworozi bw'amafi bukorewe mu cyuzi, hakaba harimo amazi ariko adasa neza cyane bigaragara ko bashaka nko kuyahindura maze bagashyiramo andi kugira ngo amafi azabashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu basigaye baramenye ubwenge aho bafata ibyuzi byari biri aho bidafite akamaro, bakabibyazamo umusaruro binyuze mu kororeramo amafi bityo bakabona umusaruro mwinshi, bakihaza mu biribwa ndetse bakajyana no ku isoko.

Ubworozi bw'amafi butanga umusaruro mwinshi cyane, aho usanga abantu basarura amafi menshi ku munsi, ahwanye n'amafaranga menshi cyane bityo bakabasha guteza imbere imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange, hano haragaragara umusore watangariye amafi menshi cyane.

Ubuhinzi n'ubworozi bw'amafi aho busigaye bwarateye imbere mu Rwanda, abahinzi basigaye bakora ibyuzi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye kugira ngo bororeremo amafi bityo babashe kwihaza mu biribwa by'amafi.

Abantu benshi biganjemo abagore bambaye utujire two mu mazi bigaragara ko bari kuroba amafi mu kiyaga kuko bafite indobo yuzuyemo amafi, ibi bikaba bigaragaza ko ubworozi bw'amafi bwateye imbere cyane aho n'abagore basigaye bayorora.

Ubworozi bw'amafi bukorerwa mu biyaga, aho bagenda bafata uduce duto duto bakatuzitira maze bakororeramo amafi, bityo akabasha gutanga umusaruro mwinshi ku bahinzi, maze bakabasha kwihaza mu biribwa no guteza imbere Igihugu cyacu.

Ubworozi bw'amafi nabwo busigaye buri gutezwa imbere cyane, aho basigaye babwigisha no mu mashuri kugira ngo buri muntu wese abe yabasha kwihangira umurimo ari gukora ubworozi bw'amafi.

Ubworozi bw'amafi bwateye imbere, aho buri muturage ashishikarizwa gukora icyuzi cy'amafi maze akajya arobamo amafi yo kurya mu muryango we kandi amafaranga akiyongera bityo ubukungu bw'igihugu muri rusange nabwo bukiyongera.

Ubworozi n'ubuhinzi bwamafi busigaye bwarateye imbere cyane mu gihugu cyacu aho abaturage basigaye bakora ibyuzi maze bakororeramo amafi ku buryo basigaye bihaza mu biribwa, kandi nta ndwara zikirangwa no kubura indyo yuzuye.

Mu Rwanda ubuhinzi n'ubworozi bw'amafi bisigaye byarateye imbere cyane, aho usanga abaturage bishyira hamwe, maze bagakora ibyuzi by'amafi bakabasha gusaruramo menshi.

Mu Rwanda ubuhinzi n'ubworozi bw'amafi bisigaye byarateye imbere aho usanga abaturage nabo bazi kwiyororera amafi mu byuzi hari abantu benshi harimo umugore uri kugaburira amafi ye mu cyuzi.

Ubworozi bw'amafi bufite akamaro cyane muri iki gihe kuko busigaye butanga amafaranga menshi cyane ku borozi, bityo hano hari icyuzi kirimo abantu ku ruhande bari gushungera umuntu umaze kuruba amafi uyashyize mu ndobo.

Umugore wambaye umupira w'umukara urimo gusarura ikawa, iki gihingwa kikaba gitanga amafaranga menshi ku bantu bagihinga bityo bakabasha kwiteza imbere.

Umurima munini urimo igihingwa cy'ikawa, hakaba harimo umugore urimo kuzisarura witeze igitambaro mu mutwe. Ikawa izana amafaranga menshi ku wayihinze, bityo iterambere ry'Igihugu rikiyongera.

Abantu batandukanye bari gutoranya igihingwa cy'ikawa, iki gihingwa kikaba gitanga umusaruro mwinshi ndetse kigafasha n'abaturage mu kubona amafaranga kuko kigira amafaranga menshi cyane.

Icyayi ni kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga ndetse bigatuma umuntu aba umukungu byihuse, hano haragaragara abakecuru babiri barimo gusoroma icyayi bahetse ibitebo mu mugongo.

Umurima munini uhinzemo icyayi, hakaba harimo abagore bane barimo kugisarura, bityo bikaba bibafasha mu kubona amafaranga ndetse bakiteza imbere bagateza n'Igihugu imbere.

Umurima uteyemo ikawa, urimo umugore wikoreye indobo y'icyatsi, witeze igitenge mu mutwe, bigaragara ko arimo gusarura ikawa zahishije kugira ngo azijyane ku isoko maze bamuhe amafaranga.

Mu Rwanda tugira ibihingwa ngengabukungu n'ibihingwa ngandurarugo, aho bakunda guhinga ikawa kugira ngo bazohereze hanze y'Igihugu, maze babashe kubona amafaranga menshi, bityo ubukungu bw'Igihugu bwiyongere.

Igishanga kinini cyane, giteyemo icyayi, hakaba hahagazemo umuntu urimo kugisoroma kugira ngo akijyane ku isoko, maze abashe kubona amafaranga atunga umuryango we ndetse akazamura n'ubukungu bw'igihugu muri rusange.

Icyayi ni kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga menshi ndetse bikazamura n'ubukungu bw'Igihugu muri rusange ariko si ibyo gusa ahubwo bigira n'Igihugu cyacu kiza kuko usanga ahantu giteye haba hasa neza cyane.

Umurima munini cyane uteyemo icyayi, harimo abagore babiri barimo gusarura icyo cyayi kugira ngo babashe kubona amafaranga maze biteze imbere.

Abantu bari mu murima w'ingano, bigaragara ko barimo kuzisarura hanyuma bakazazitunganya maze bakazijyana ku isoko, aho babaha amafaranga menshi cyane maze bakabona uko batunga imiryango yabo.

Ikizu kinini cyane kirimo abantu benshi batandukanye abagabo, abagore, abakobwa, ndetse n'abasore bakaba barimo gutoranya ikawa, igihingwa cy'ikawa n'igihingwa gitanga amafaranga menshi cyane ku bagihinze bityo umusaruro w'igihugu ukiyongera.

Umurima uteyemo ikawa nyinshi, akaba ari ikawa zitoshye cyane bigaragara ko zizera zigatanga umusaruro mwinshi, bityo iterambere ry'u Rwanda ndetse n'iry'umuturage rikabasha kwiyongera.

Umurima munini uhinzemo igihingwa cy'ikawa, hakaba hahagazemo umugabo w'umusaza, urimo gusarura izi kawa kugirango azijyane ku isoko maze abone amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Igihingwa k'icyayi ni kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga yaba ku muntu ku giti ke cyangwa se ku Gihugu muri rusange kuko gikurura ba mukerarugendo kandi cyoherezwa hanze tukabasha kubona amafaranga y'amavamahanga.

Igishanga kinini cyane gihinzemo igihingwa cy'umuceri, hakaba harimo abagore bane ndetse n'umugabo umwe bigaragara ko barimo kubagara uyu muceri kugira ngo uzakure neza utavanze n'ibindi byatsi bityo babashe kubona umusaruro utubutse.

Icyumba kigari cyane kirimo abantu bambaye imyenda isa, aba bantu bakaba bari kuronga ibyayi kugira ngo babijyane ku isoko bisa neza maze babashe kubona amafaranga.

Mu Rwanda tugira ibihingwa ngandurabukungu ndetse n'ibihingwa ngandurarugo, hano turahabona umugore wikoreye ibase ku mutwe irimo ikawa bisa nkaho azijyanye mu ruganda.

Umurima munini cyane uteye mu gihingwa cy'icyayi hakaba harimo umugore urimo kugisoroma akaba yiteze igitenge arimo no guseka, icyayi ni kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga menshi ku baturage bityo bakabasha kwiteza imbere.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa k'icyayi hakaba harimo abantu benshi barimo kugisoroma, aho hari abagabo bari imbere bahetse ibitebo mu mugongo bari kugenda babisoroma babishyiramo kugira ngo bazabashe kukijyana ku isoko maze babahe amafaranga, babashe kubona uko batunga imiryango yabo.

Umurima munini uhinzwemo icyayi, icyo cyayi kikaba gitanga amafaranga menshi ndetse kigateza imbere abaturage, harimo abagore bane barimo kugisoroma.

Mu Rwanda tugira ibihingwa bitandukanye, ibihingwa ngengabukungu ndetse n'ibihingwa ngandurarugo, hano tukaba turi kuhabona ikawa yeze ikaba ifite imbuto zisa umutuku.

Igihingwa ngengabukungu cyitwa ikawa, kikaba giteye ku musozi harimo izihishije n'izidahishije, rero abahinzi bafata izihishije bakazijyana ku isoko maze bakabasha kubona amafaranga abatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amacupa atandukanye arimo imiti y'amatungo yifashishwa mu kuvura amatungo mu gihe yarwaye bityo akabasha gukira maze umusaruro wazo ugakomeza.

Icupa rifunze mu ishashi bigaragara ko harimo umuti w'amatungo, rikaba riteretse ku ntebe y'umweru ariko biri mu cyumba kimwe, rero iyo amatungo arwaye ni byiza ko twihutira kugura imiti tukayivura.

Imiti ihabwa amatungo yo mu rugo mu gihe afite ikibazo cy'uburwayi, hari iy'inkoko iyi nkoko, iy'intama, ndetse n'andi matungo yo mu rugo atandukanye.

Akabati karimo amacupa arimo imiti y'amatungo itandukanye, muri iyo miti harimo imiti y'inka, iy'andi matungo yo mu rugo ,ku buryo iyo arwaye bihutira ku yavura.

Icyumba gipanzemo ibikarito byinshi cyane ndetse n'amacupa, bikaba bigaragara ko birimo imiti y'amatungo, aho abarozi bagana iki kicaro kugira ngo baguremo imiti y'amatungo, noneho bazayikoreshe mu gihe amatungo yabo yarwaye.

Ni byiza ko imiti y'amatungo ibikwa ahantu kure kandi hizewe kandi ikaba ifunitse mu macupa kuko hagize umwana uyibona akayinywa byamuteza ibibazo cyane bikaba byamuviramo no gupfa.

Ibishashi byinshi bipanze mu cyumba bigaragara ko birimo imiti y'amatungo, aho amatungo iyo arwaye umworozi yihutira kujya kugura imiti maze akayavura bityo bigatuma umusaruro ukomeza kwiyongera.

Ubworozi bw'amatungo busigaye bwaratejwe imbere cyane aho usanga imiti y'amatungo yarabonetse yaba inkoko, inka ndetse n'andi matungo aho iyo arwaye bihutira kugura imiti maze bakazivura.

Icyumba gipakiyemo imiti y'amatungo aho baza kugura iyi miti iyo itungo rigize ikibazo cy'uburwayi bihutira kuhaza.

Imiti itandukanye y'amatungo, aho hari akabati gapakiyemo imiti iri mu macupa, hakaba harimo imiti y'inka ihene, intama ndetse n'andi matungo atandukanye.

Icyumba gipanzemo imiti y'amatungo, iyo amatungo agize uburwayi bihutira kujya kuyagurira imiti kugira ngo abashe gukira yongere agire ubuzima bwiza.

lcyumba kinini cyane gipakiyemo ibikarito byinshi ,bigaragara ko harimo imiti y'amatungo. lbi bifasha aborozi mu kwirinda uburwayi buturutse ku matungo.

Akabati karimo imiti itandukanye y'amatungo, aho iyo amatungo agize ikibazo bagana iri vuriro bakabaha imiti ,harimo; imiti y'inka, iy'ihene ,iy'inkoko ndetse n'iyindi.

Mu rwego rwo kugabanya uburwayi bw'amatungo, abaganga babugenewe basigaye baba bafite imiti myinshi itandukanye kandi ivura amatungo atandukanye kugira ngo nihagira itungo rifatwa n'uburwayi, bihutire kurivura bakoresheje imiti yababugenewe.

Amatungo nayo agira imiti itandukanye nk'amavitamini ndetse n'iyindi, ku buryo iyo arwaye, tugomba kwihutira gushaka abaganga babugenewe maze bakatugira inama z'icyo twakora.

Icyumba kirimo imiti y'amatungo akaba ari imiti itandukanye kandi y'amatungo menshi atandukanye, iyo amatungo agize ikibazo bihutira kujya kuyigura kugira ngo bayavure.

Icyumba kinini cyane giparitsemo udukarito tw'imiti akaba ari imiti y'inyamaswa, ikaba ikoreshwa mu gihe amatungo yagize ikibazo, aborozi bihutira kujya kugura iyi miti kugira ngo babashe kuvura amatungo yabo.

Ishashi irimo imiti y'amatungo akaba ari ibinini bisa umuhondo, ibi bifasha amatungo mu gihe yagize ikibazo cy'uburwayi butandukanye.

Akabati gapanzemo amacupa arimo imiti y'amatungo, iba igomba kubikwa neza kugira ngo nihagira umuntu ubagana aje kuyigura bazahite bayimuha maze abashe kujya kuvura itungo rye.

Abahinzi babigize umwuga, bakaba ari abagabo babiri basutamye hasi barimo kwifotoza ndetse bakaba bari kumwe n'akana gato, kambaye umupira w'umutuku, bigaragara ko batewe ishema no kuba bitwa abahinzi babigize umwuga.

Umurima munini cyane, uteyemo inanasi. Hakaba hicayemo abagore benshi batandukanye, ndetse harimo n'uwambaye bote. Bose bakaba bambaye udupfukamunwa. Bigaragara ko, bashobora kuba bari gukorera inama muri uwo murima kandi babahugura.

Abahinzi basigaye babanza kwinaza imbuto mbere yuko bajya gutera mu murima, bakabanza bakazishyira ahantu hamwe bakazitaho zamara gukura bakabona kuzijyana kuzitera aho bashaka.

Abahinzi basigaye bororera ibiti ahantu hamwe, mbere yuko babanza kujya kubitera mu ishyamba, hari abagabo harimo abasirikare, aba DASSO ndetse n'abapolisi, bahagaze bari kwitegereza ibi biti.

Abantu benshi cyane bahagaze mu ntabire, harimo abagore ndetse n'abagabo bamwe muri bo bafite amasuka, bigaragara ko ari abahinzi bavuye guhinga, imbere yabo hari umuntu uhahagaze bisa nk'aho ari kubaganiriza.

Umurima munini cyane uhinzemo ibigori, iruhande rwabyo hahagaze umugore wambaye umupira w'ubururu ndetse yambaye n'ingutiya y'umutuku.

Abahinzi benshi bicaye mu ntabire, bigaragara ko bavuye guhinga, imbere yabo hahagaze umugabo bisa nk'aho ari kubakoresha inama, bungurana ibitekerezo ku cyo bakora ngo bateza imbere umwuga wabo.

Abahinzi benshi bateraniye mu murima bose bakaba bafite amabase, bigaragara ko ari nk'igihingwa barimo gusarurira hamwe, harimo abagabo, abagore bose hamwe barunamye.

Abagore babiri bigaragara ko bavuye guhinga bari kugenda banyura mu gisambu bakaba bafite amasuka ku rutugu kuko ari yo bifashisha iyo barimo guhinga.

Ubworozi bw'amatungo butanga umusaruro mwinshi ku borozi kuko baba bafite inka nyinshi, baba barazubakiye ibiraro ndetse bakaziha n'ibyo ku kurya byinshi aho hano turabona inka nyinshi zirimo kurya ibyatsi bibisi bazizaniye aho ziba.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa bitandukanye, muri uwo murima hahagazemo umugore uri guhinga, wambaye umupira w'umukara witeze igitambaro.

Umurima munini cyane uhinzemo ibigori, harimo abahinzi babiri bigaragara ko bari gutera umuti ibi bigori kugira ngo udusimba tutazabyica.

Abagabo benshi bahagaze mu gisambu umwe akaba yunamye bigaragara nkaho ari gutera igiti, abandi bakaba bahagaze iruhande rwe na bo bafite ibindi biti mu ntoki hari n'abandi bari kugenda inyuma yabo babasanga.

Umugore ndetse n'umusaza bari kugenda mu murima munini, umugore akaba yambaye ibitenge yiteze agatambaro k'umweru kandi yikoreye intebe y'ubururu, umusaza ari kugenda inyuma ye yicunze akabando.

Ibigori birunze mu byatsi, akaba ari bimwe mu bisigaye bifite agaciro kenshi, kuko bitanga umusaruro mwinshi ku bahinzi, bityo bakabasha kubona amafaranga.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa k'imyumbati, imyumbati ifasha abahinzi mu kwihaza mu biribwa ndetse bakabona n'amafaranga mu gihe bayijyanye ku isoko.

Umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye, muri ibyo hakaba harimo nk'imyumbati ndetse n'ibindi. Ibi bikaba byifashishwa mu kongera ibiribwa kugira ngo abantu baticwa n'inzara.

Igihingwa cy'ikigori gisigaye gifite agaciro kenshi cyane muri iki gihe, aho abahinzi basigaye bashishikarira kugihinga kuko gitanga umusaruro mwinshi maze kikajyanwa ku isoko abantu bakabona amafaranga.

Mu Rwanda hasigaye harateye imbere cyane aho buri muturarwanda wese aba afite inshingano zo gutera igiti cy'urubuto mu rugo rwe, urugero imyembe, amaronji, amatunda ndetse n'izindi kugira ngo dukomeze gufatanyiriza hamwe mu kurwanya igwingira.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa duhinga hano mu Rwanda biduha amafaranga menshi, hano hari umurima urimo ibigori ariko byareze barabisaruye.

Igihingwa k'imyumbati ni kimwe mu bihingwa bisigaye bifite agaciro kenshi. Aho abahinzi bagihinga hanyuma bakakijyana ku isoko bakabyazamo amafaranga ndetse no mu ngo zabo bakihaza mu biribwa.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa k'ibigori. Iki gihingwa nicyo gisigaye kigezweho muri iki gihe aho gitanga amafaranga menshi ku bahinzi. Barakijyana bakagitegura neza kigakorwamo akawunga.

Abahinzi basigaye bakunda gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buhinzi kugira ngo babashe guhinga umurima munini cyane maze bateremo ibihingwa bizabagirira akamaro bigatuma byera kandi bakabijyana ku isoko bakabonamo umusaruro uhagije.

Mu Rwanda tugira ibihingwa ngandurarugo ndetse n'ibihingwa ngengabukungu, hano hakaba hateye igihingwa cy'imyumbati icyo gihingwa gifasha abaturarwanda mu kugira ubuzima bwiza.

Mu rwego rwo kongera ubukungu bw'Igihugu ndetse n'ubw'abaturage muri rusange, abaturage basigaye batera ibigori maze bakabijyana ku isoko, hagakorwamo ibindi biribwa bitandukanye, nk'akawunga, ifu y'igikoma ndetse n'ibindi.

Igihingwa cy'umuceri gitanga umusaruro mwinshi cyane kuko gihingwa mu bishanga kandi ntikijya gihomba kuko amazi ahora mu bishanga, ni muri urwo rwego rero aha turi kuhabona igihingwa cy'umuceri gisa nk'icyeze kiri hafi gusarurwa.

Mu Rwanda tugira ibihingwa ngengabukungu ndetse n'ibihingwa ngandurarugo, aha ni mu isoko, turahabona ibirayi byinshi cyane bipakiye mu mufuka ndetse hakaba hari n'abaturage benshi baje kubigura bityo abantu babijyanye baratahana amafaranga yo kwifashisha mu bindi bibazo bitandukanye.

Mu Rwanda tugira ibihingwa ngengabukungu ndetse n'ibihingwa ngandurarugo, hano hari umurima munini ariko ukaba uteyemo imyumbati, iyi myumbati izifashishwa mu guhaza ibiribwa ndetse no mu kuzana amafaranga mu gihe bayigurishije.

Umurima munini cyane uteyemo urutoki rwinshi, ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona amafaranga bayakuye ku byo bejeje.

Umurima urimo ibihingwa by'ibigori ariko bikaba byarumye ndetse hakaba hari amabuye arunze muri uwo murima, bigaragara ko ayo mabuye yangiza umurima bakabura uko bahahinga.

Ikibaya kinini cyane kirimo ibimera bitandukanye ariko hakurya turahabona urutoki rwinshi, uru rutoki rutanga umusaruro mwinshi ku bahinzi aho bagurisha ibitoki maze bakabona amafaranga.

Mu Rwanda tugira amashyamba menshi harimo amashyamba kimeza ndetse n'amashyamba abantu batera, hano hari ishyamba ririmo ikiraro, akaba ari ikiraro abantu banyuraho iyo bagiye mu ishyamba.

Mu Rwanda tugira amashyamba menshi atandukanye yaba aya kimeza cyangwa se ayo bateye, hano turahabona ishyamba ryinshi ry'inzitane zituma inyamaswa zibaho neza kandi rigakurura ba mukerarugendo.

Mu Rwanda tugira amashyamba menshi yaba aya kimeza cyangwa se ayatewe n'abantu, hano hakaba hari ishyamba ryinshi cyane ariko rikaba rinyuzemo umuhanda kuko ari wo bakoresha mu gihe bagiye gusura inyamaswa zibamo.

Ishyamba ni kimwe mu bintu bituma igihugu cyacu kiba cyiza kandi rifite akamaro kenshi gatandukanye nko mukuyunguru umwuka duhumeka, kuduha inkwi zo gucana ndetse n'ibindi bitandukanye bityo inyamaswa zikabona aho zitaha kubera ishyamba.

Kimwe mu byiza bitatse u Rwanda hakubiyemo n'amashyamba, aho hakurura ba mukerarugendo bakaza kuyareba ,kuko habamo inyamaswa nyinshi kandi zishimishije, bityo igihugu cyacu kikabasha kubona amafaranga menshi, aturutse kuri ba mukerarugendo.

U Rwanda rwacu rugira ibyiza nyaburanga bitandukanye, hakaba harimo n'amashyamba. Aho muri ayo mashyamba, habamo inyamaswa nziza cyane zitandukanye ndetse hakaba habamo n'imigezi ifite amazi meza abengerana.

Amashyamba afite akamaro kenshi kuko ameramo ibyatsi bitoshye maze inka zikajya kubirisha mu gihe k'izuba ndetse zikugamamo izuba kugira ngo zitabasha kugirwaho ingaruka n'izuba ryinshi.

Dufite amashyamba atandukanye, harimo amashyamba kimeza ndetse n'amashyamba yatewe n'abaturage, aha hari amashyamba menshi ndetse n'ibihuru bigaragara ko ari amashyamba kimeza, hakaba abamo inyamaswa zitandukanye ndetse n'ibindi bisimba byo mu ishyamba.

Ishyamba kimeza rinini cyane akaba ari ishyamba ribamo inyamaswa zitandukanye, hakaba hajyamo abakerarugendo kugira ngo barebe ibyiza bitatse Igihugu cyacu.

Mu Rwanda tugira amashyamba menshi atandukanye, aya mashyamba atahamo inyamaswa nyinshi zitandukanye bityo zikagira uburinzi hakaba nta muntu wakwinjiramo ngo ajye kuziba.

Amashyamba ni ingirakamaro cyane, kuko adufasha mu kubona umwuka uhagije kandi uyunguruye, ndetse akaba n'intaho y'inyamaswa, ikindi kandi atuma tubona inkwi zo gucana ,ni muri urwo rwego rero tugomba kuyasigasira, kugira ngo hatagira uyangiza.

Amashyamba afite akamaro kenshi kuko atuma tubona umwuka mwiza duhumeka, ikindi kandi adufasha mu kubona inkwi ndetse akadufasha no mu kubona intaho z'inyamaswa kandi agakurura n'abakerarugendo bityo igihugu kikabasha kubona amafaranga.

Amashyamba nimwe mu bintu nyaburanga bigize igihugu cyacu, aho atuyungururira umwuka ndetse akaduha akayaga mu gihe cy'izuba, ni ngombwa rero ko tuyasigasira, tukayafata neza ku buryo ntawayangiza kuko adufitiye akamaro kenshi.

Mu mashyamba hakunze kuba harimo imigezi inyuramo kuko haba hakonje cyane haba harimo urubura bityo bigatuma hahoramo amazi ashoka kandi ibi bifasha inyamaswa ziba mu mashyamba mu kubona amazi yo kunywa.

Amashyamba ni amwe mu bimera bigize Igihugu cyacu, aho adufasha mu kubona imvura ndetse na ba mukerarugendo bakaza kuyareba bityo tukabasha kubona amafaranga mu gihugu cyacu.

Ni byiza ko dutera ibiti tukabivanga n'imyaka yacu kuko bidufasha gukurura umwuka duhumeka ndetse bigatuma tubasha no kubona n'imvura ikagwa mu myaka yacu maze tukabasha kubona umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bw'imbuto ndetse n'imboga busigaye bwarateye imbere, aho abantu basigaye babanza kwinaza imbuto kugira ngo babone kujya kuzitera ahandi, bityo bigatuma zikura neza.

Ubuhinzi bw'imbuto n'indabo, busigaye buteye imbere mu gihugu cyacu, aho dusanga abantu bahinga hanyuma bakajyana ku isoko bakagurisha, maze bakabona amafaranga atunga imiryango yabo.

Icyumba kinini kirimo abakobwa babiri bambaye udupfukamunwa, amataburiya y'umweru, ndetse n'uturindantoki bakaba bari gutoranya imiteja kugira ngo babashe kuyijyana ku isoko imeze neza maze abantu bayigure bajye kuyirya.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga busigaye bwarateye imbere aho abahinzi basigaye bahinga imbuto maze bakazijyana ku isoko bakabona amafaranga, hano hari inyanya zihishije ziri mu murima.

Ubuhinzi bw'imbuto ndetse n'imboga busigaye bwarabaye bwinshi mu Rwanda, aho turabona abantu bafite amabase arimo ibiyote ndetse n'ibitunguru, baba babijyanye ku isoko kugira ngo babone amafaranga.

Ubworozi bw'indabo, imbuto ndetse n'imboga, busigaye bwarateye imbere cyane, aho turi kubona abantu bari mu murima w'indabyo, bari kuzisoroma ndetse bari no kuzitunganya kugira ngo bazabashe kuzigemura ku yandi masoko.

Ubuhinzi bw'imbuto ndetse n'indabyo, busigaye buteye imbere cyane aho abaturage basigaye bahinga amapapayi mu ngo zayo bityo bakabasha kubona imbuto zo kurya ndetse bagasagurira n'amasoko maze bakabaha amafaranga menshi ahagije.

Ubuhinzi bw'imbuto ndetse n'imboga, busigaye bwarateye imbere cyane. Hano mu isoko, turahabona inyanya nziza zitukuye, barimo gucuruza, hirya yazo hahagaze abamama.

Ubuhinzi bw'imbuto busigaye bwaratejwe imbere cyane aho dusanga bahinga imbuto maze bakazijyana ku isoko ku buryo nta muntu ukibura imbuto mu gihe yagiye kuzigura ku isoko.

Ubuhinzi bw'imbuto, imboga, ndetse n'indabyo. Hano hari abantu babiri bahagaze bambaye udupfukamunwa umugore ateruye akantu gahinzemo amashu akaba ari amashu mato bazajya gutera mu murima.

Ibihingwa by'ibigori ni byiza cyane kandi bigira amafaranga menshi, kuko dushobora kubikoresha mu buryo butandukanye, yaba mu kubirya bisanzwe, mugukoramo kawunga, mu kunywamo igikoma ndetse n'ibindi bitandukanye, niyo mpamvu abaturage benshi basigaye babihinga.

Ubuhinzi bw'imbuto, imboga ndetse n'indabyo busigaye bwarateye imbere cyane, aho abahinzi basigaye batera imbuto maze bakazigemura ku isoko, bakabasha kubona amafaranga abatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Hasigaye harateye ikoranabuhanga aho babangurira urubuto rugatangira kwera rukiri ruto bitandukanye nuko twari tumenyereye urubuto rwera rwarabanje gukura, rwarabaye igiti kinini cyane ubu ntago ariko bikimeze.

Ubuhinzi n'ubworozi bw'imbuto ndetse n'imboga bisigaye byarateye imbere cyane, hano harimo umurima munini cyane uhinzemo igihingwa kizwi ku izina ry'amashu, akaba ari mato akirimo gukura aho azasarurwa yeze.

Mu Rwanda dusigaye duhinga imbuto zose nta kurobanura aho dusigaye duhinga amapome, amapapayi ndetse n'izindi mbuto nyinshi kugira ngo dukomeze kwihaza mu biribwa ndetse tujyane no ku isoko bityo tubone amafaranga.

Imbuto zisigaye zarabonetse ku isoko aho umuntu ajya guhaha, agasanga zihari kandi ku giciro kiza kuko abahinzi basigaye barashyizemo imbaraga mu kuzihinga, hano hari umugore umaze gusarura inyanya nyinshi cyane, akaba ari kuzishyira mu bitebo.

Ubuhinzi bw'indabo ndetse n'imbuto busigaye bwaratejwe imbere cyane aho abahinzi basigaye bahinga indabo maze bakazijyana ku isoko bakabasha kubona amafaranga menshi aturutse mu ndabo.

Ubuhinzi bw'imbuto n'indabo bisigaye na byo byarateye imbere mu Gihugu cyacu, aho usanga basigaye bafata umurima munini, bagahingamo imbuto nyinshi zitandukanye ndetse hari n'aho bahinga indabo, bityo bakabigurisha bakabona amafaranga.

Umurima munini uteyemo inanasi, hakaba harimo izeze n'izitarera. Abahinzi basigaye bahinga imbuto nyinshi kuko arizo zitanga amafaranga menshi kugira ngo babashe kuzamura ubukungu bwabo.

Abahinzi basigaye bahinga imbuto, imboga, ndetse n'indabo ku rwego rwo hejuru ku buryo umuntu asigaye ajya mu isoko akabonamo ibyo yifuza byose nta kujya ahandi kandi ku giciro cyiza.

Akarima k'igikoni karimo imbuto zitandukanye ndetse n'imboga, aho buri mutura rwanda wese ashishikarizwa gukora akarima k'igikoni kugira ngo ajye abasha kubona imboga zo guteka buri munsi.

Mu Rwanda na bo basigaye baramenye guhinga imbuto nyinshi zitandukanye, aho usanga nta rubuto batagihinga nk'amapapayi cyangwa se pome batinyaga kubihinga ariko ubu basigaye babihinga kugira ngo twihaze mu biribwa byose.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga bwateye imbere cyane mu Rwanda ku buryo abantu bose basigaye bahinga, hano turahabona amapapayi yeze afite amababi y'icyatsi.

Abahinzi basigaye bazi guhinga ku buryo bwa kijyambere, ibihingwa by'imbuto, indabyo ndetse n'imboga maze bakanazihinga ahantu hasakaye kugira ngo izuba ritazica.

Abagabo bari kuyora inyanya bazishyira mu mabase ndetse hirya yabo hagaze umugore, bigaragara ko hari inyanya nyinshi ku isoko kubera ko abaturage b'u Rwanda basigaye bashishikarizwa guhinga imbuto, bityo ku isoko hakaba nyinshi.

Ikoranabuhanga risigaye ryarabaye ryinshi, aho abahinzi babika amazi maze mu gihe cy'izuba bakazayakoresha bari kuhira ibihingwa byabo kugira ngo bituma.

Abahinzi basigaye bakoresha igikorwa cyo kuhira imyaka yabo mu gihe cy'izuba kugira ngo itazuma, ibi bituma bakomeza kubona umusaruro, kabone n'ubwo izuba ryaba ryarabaye ryinshi.

Umurima munini cyane uhinzemo ibihingwa, hakaba harimo insinga bashyizemo kugira ngo bajye babasha kuhira imyaka yabo mu gihe cy'izuba ryinshi kugira ngo itangirika.

Ubworozi bw'amafi busigaye bukorwa ku rwego rwo hejuru, aho abantu basigaye bakora ibyuzi cyangwa se bakubaka mu biyaga maze bakororeramo amafi bityo bakabona umusaruro mwinshi uhagije.

Abahinzi basigaye bakoresha ikoranabuhanga mu kuhira ibimera byabo kugira bitazuma mu gihe cy'izuba, aho basigaye bashyira impombo hasi nk'ubutaka maze bagafungura amazi amazi akazamuka yijyana mu bimera.

umurima munini cyane uhinzemo icyayi gitoshye, muri iyi mirima harimo ibikoresho bakoresha buhira mu gihe cyizuba kugirango ibimera bitabasha kuma ahubwo bikomeze gutoha, bigaragara ko ibi bikoresho bishyira amazi hose.

Abahinzi basigaye bakoresha ikoranabuhanga, mu buryo bwo kuhira imyaka yabo kugira ngo ituma mu gihe cy'izuba, kuko haba hari izuba ryinshi cyane mu gace k'Iburasirazuba, bityo rero bakoresha uburyo bwo kuhira kugira ngo bikomeze gutoha.

Umugore wikenyeye igitenge wambaye n'ingofero y'umutuku, uhagaze mu murima ufite umupira bakoresha mugihe bari kuhira imyaka, ahagaze mu murima uhinzemo amashu arimo kuyuhira, hakurya hari abagabo batatu bahahagaze.

Umugore uri mu murima ufite indobo y'umutuku bigaragara ko harimo kuhira amashu, ni byiza ko akora iki gikorwa kugirango ibi bihingwa bitazuma mu gihe cy'izuba.

Ibimera ntago bikigira ikibazo mu gihe cy'izuba, ahubwo abahinzi bafata iyambere bakajya kubyuhira mu gihe cy'izuba ryinshi kugira ngo bituma.

Mu buhinzi hasigaye harajemo ikoranabuhanga ryifashishwa mu kuhira imyaka aho bashyiramo impombo maze zikajya zizamura amazi hejuru mu kirere bityo ibihingwa byose bikabasha kugerwaho n'amazi.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, hakaba hahagazemo umugore ukenyeye igitenge ufite rozwari mu ntoki, bigaragara ko arimo kuhira iyi imyaka kugira ngo ituma mu gihe cy'izuba.

Umurima munini cyane uhinzwemo ibihingwa bitandukanye hakaba hahagazemo umugabo urimo kubyubuhira kugira ngo biticwa n'izuba maze bikuma umusaruro ukaba muke.

Umwana uri mu rutoki akaba ari kuhira ibimera kugira ngo biticwa n'izuba kuko bigaragara ko ibintu byose byumye, ibi bifasha abahinzi kubona umusaruro uhagije mu gihe cy'izuba.

Abahinzi basigaye bakoresha uburyo bwo kuhira imyaka mu gihe cy'izuba kugira ngo itazuma yabuze amazi, bityo muri uyu murima harimo umugore uri kuhira ibitunguru.

Abahinzi basigaye bakoresha ikoranabuhanga mu kuhira imyaka yabo mu gihe cy'izuba, aho babishyiramo bakazajya buhira buri munsi kugira ngo ibimera byabo bituma ahubwo bigakomeza gutoha.

Umurima munini uteyemo umuceri, hakaba harimo umuntu urimo guteramo umuti ,yambaye umupira w'umutuku n'ingofero, akaba arimo kuhira.

Umugore uhagaze mu murima w'imyaka ufite umupira bifashisha mu kuhira imyaka, akaba arimo kuhira, uyu mugore bigaragara ko abyishimiye kuko bituma umusaruro wabo wiyongera.

Abahinzi basigaye bakoresha ikoranabuhanga ndetse bafite n'ubwenge bwinshi aho basigaye buhira ibihingwa mu gihe cy'izuba kugira ngo bitazuma maze umusaruro wabo ukaba muke, hano hari umugabo urimo kuhira.

Abahinzi basigaye bakoresha ikoranabuhanga mu kuhira imyaka yabo, aho batera imyaka ku murongo hanyuma bagashyiraho imipira ku ruhande kugira ngo mu gihe cy'izuba bazajye bafungura amazi maze ahite amanukira mu gihingwa cyabo bityo birinde ko cyakuma.

Mu Rwanda ubuhinzi bwateye imbere aho usanga, abahinzi bifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kuhira imyaka yabo mu gihe cy'izuba ndetse bikabafasha mu kubona umusaruro uhagije.

Leta y'u Rwanda isigaye yarafashe ingamba aho bafata amazi y'imvura bakayabika ahantu bakayafata neza maze akazakoreshwa mu gihe cy'izuba bari kuhira imyaka maze imyaka igakomeza gukura neza itumye.

Umugore uhagaze mu murima w'amashu, akaba afite umupira ari kugenda anyanyagiza amazi, ku ruhande hirya no hino kugira ngo amazi abashe kugera mu bimera byose, maze bizatange umusaruro kuko izuba ryabaye ryinshi.

Kimwe mu bitanga umusaruro ni ukwita ku bihingwa bakabyuhira mu gihe cy'izuba, iyo ibihingwa byuhiwe bitanga umusaruro mwinshi kuko ntgo biba byaragwingiye, hano hari umugore ufashe igihombo urimo kuhira.

Ibibaya ndetse n'imisozi bihinzeho ibihingwa bitandukanye, muri ibyo bibaya harimo n'ibishanga ndetse n'imigezi ndetse ku misozi hakaba hatuyeho abantu.

Imisozi ndetse n'ibibaya aho ibibaya biba byiganjemo ibishanga bihingwamo ibihingwa by'umuceri ndetse n'ibindi bihingwa bikunda amazi kuko ho ntihajya habura amazi, ahora arimo.

Ibibaya ndetse n'imisozi biteyeho ibihingwa bitandukanye ndetse ku misozi hariho n'amashyamba, aya mashyamba aratoshye cyane kandi n'ibyatsi biriho biratoshye.

Mu Rwanda rugizwe n'ibibaya ndetse n'imisozi, aho haba hateyemo ibiti bitandukanye ishyamba ndetse n'ibihingwa bitandukanye, aho mu bibaya hakunda kuba higanjemo ibishanga, ibyuzi, imigezi, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu bibaya hakunda kuba harimo ibyuzi, ibiyaga ndetse n'ibishanga, aho rimwe na rimwe bakunda kuhororera udusimba dukunda kuba mu amazi dutandukanye nk'amafi ndetse n'ibindi kandi hakaba hakikijwe n'ibiti ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Mu rwanda, tugira uduce tw'ibibaya ndetse n'uduce turimo imisozi myinshi ariko hose hakaba hameramo ibimera bitandukanye, hakaba mu duce tw'imisozi hakunda kuba harimo amashyamba ariko mu duce tw'ibibaya hakunda kuba harimo ibyuzi, ibishanga ndetse n'ibindi.

Mu Rwanda tugira ibibaya ndetse n'imisozi aho mu bibaya hakunda kuba harimo ibishanga, ibyuzi ndetse n'imigezi, iruhande rw'iki cyuzi hari ibiti byinshi birebire.

Mu bibaya hakunze kuba harimo ibyuzi, ibiyaga ndetse n'imigezi aho umuntu ashobora kororeramo inyamaswa ziba mu mazi nk'amafi ndetse n'ibindi, iruhande rw'uru ruzi hari ibyatsi bitoshye.

Mu rwanda tugira ibibaya ndetse n'imisozi byiza, aho usanga mu bibaya hari ibyuzi bitandukanye, imigezi, ndetse n'ibiyaga, iruhande rwabyo hakaba haba hateye uduti twiza.

Umusozi ndetse n'ikibaya hakaba hateyeho ibihingwa bitandukanye ndetse hakaba hari n'umugezi unyuramo, iruhande rw'uwo mugezi hari ibiti byinshi bitandukanye bihahinze.

Ibibaya ndetse n'imisozi biba biteyeho ibihingwa bitandukanye ariko usanga akenshi mu bibaya hatewemo ibihingwa by'insina ndetse n'umuceri kuko ari byo bikunda amazi cyane kandi hakaba haba hari amazi menshi.

Ibibaya ndetse n'imisozi biriho ibimera bitandukanye ndetse kuri iyo misozi hariho n'amashyamba menshi, yaba ayacyimeza cyangwa se ayo bateye.

Ibibaya ndetse n'imisozi biriho ibimera bitandukanye ndetse bituweho n'abantu, kuri iyi misozi hariho amatarasi y'indinganire, akaba arinda isuri.

Imisozi n'ibibaya kuri ibyo bibaya hakaba hateyeho ibimera bitandukanye ndetse hakaba hariho n'inyubako zitandukanye, hano turahabona abantu bari mu murima.

Imisozi ndetse n'ibibaya bihinzeho ibihingwa bitandukanye ndetse hakaba hari n'inyubako zitandukanye zituweho n'abantu, hakaba haciye umuhanda w'igitaka hagati mu musozi.

Ikibaya cyiza cyane kiriho ubwatsi butoshye ndetse kikaba giteyeho n'ibiti binini, muri icyo kibaya harimo inka ndetse n'ihene, zikaba ziri kurisha ubwatsi.

lkiraro cyororerwamo ingurube hakaba harimo ingurube eshatu ziryamye zitegereje ibyo kurya. Akaba ari icyumba gikoze neza mu buryo bwa kijyambere, aho ingurube zitabasha gucukura.

Inka ifite amabara y'umweru n'isine, yambaye iherena ry'umuhondo ku gutwi. Ikaba iri mu kiraro cyubatswe mu buryo bw'ikoranabuhanga, ikaba iri kurya utwatsi turi imbere yayo.

Icyumba cyororerwamo amatungo magufi, aha turahabona ko hororerwamo ingurube, ikaba iryamyemo, bisa nk'aho irimo kurya ibyo bayihaye. Ni ingurube ifite ibara ry'igitaka.

Ikiraro kinini cyane cyororerwamo inkoko ndetse harimo n'inkoko zitandukanye iz'umweru, iz'umukara, ndetse n'izindi. Hakaba harimo ibikoresho bitandukanye zifashisha mu kurya.

Icyumba cyororerwamo inkoko, hakaba harimo inkoko ariko akaba ari udushwi duto cyane turimo kunywa amazi twifashishije ibikoresho bashyizemo kugira ngo zibashe kugera ku mazi bibyoroheye.

Aborozi b'amatungo basigaye bakoresha uburyo bwa kijyambere, aho mbere barekaga inkoko zikajya hanze ariko ubu basigaye bazifata bakazishyira mu byumba, hanyuma bakazishyiriramo ibyo kurya ndetse n'amazi yo kunywa.

Urwuri rugari cyane rurimo amatungo atandukanye, ariko higanjemo inka nyinshi, bigaragara ko izi nka zirimo kurisha ubwatsi butoshye.

Ikiraro cyororerwamo amatungo magufi urugero nk'ingurube hano harimo ingurube nini cyane ikaba ifite n'utwana twayo dutoya utwo twana tukaba turimo konka.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kubaga amatungo kugira ngo babashe kujyana inyama ku isoko, bityo abantu babashe kuzigura bizeye ko zifite ubuziranenge bwizewe.

Icyumba cyororerwamo inkoko, hakaba harimo inkoko zirimo gutora n'izindi ziri kunywa amazi ndetse harimo n'ibikoresho bya kijyambere bikoreshwa mu kugaburira izi nkoko no mu kuziha amazi.

Icyumba gikorerwamo ubworozi bw'inka, akaba ari ubworozi bwa kijyambere, aho izi nka ziba ahantu heza zikaba zitanduye, ahubwo zifite isuku.

Ikiraro cyororerwamo ingurube hakaba harimo ingurube nyinshi harimo n'utwana turi konka, izi ngurube ziba mu byatsi ndetse no mu byo kurya baba bazihaye.

Ubworozi bw'inkoko busigaye bwarateye imbere cyane kuko butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza, aho zitera amagi ndetse zikororoka vuba bityo bigatuma ziyongera kandi n'amafaranga akaba menshi.

Hasigaye haradutse ubworozi bwa kijyambere, aho bakora utuntu tumeze nk'utubati hakaba ari ho bashyira inkoko kugira ngo zibashe kubaho zisanzuye maze bajye baziha ibiryo ntizibirwanire, ibi bituma umusaruro ukomeza kwiyongera.

Ikiraro cyororerwamo amatungo magufi urugero nk'inkoko, kino kiraro kikaba kirimo inkoko nyinshi zitandukanye, zirimo gutora ibyo kurya hasi ndetse hakaba harimo n'ibikoresho bifashisha mu kuziha amazi yo kunywa, zimwe zikaba ziri kunywa amazi.

U rwanda rusigaye rwarateye imbere aho basigaye bifashisha ikoranabuhanga mu bworozi bw'amatungo, maze bakubaka ibiraro bitandukanye inka zibamo hifashishijwe ikoranabuhanga.

Umukumbi mwinshi w'intama, zikaba zifite amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara, zikaba ziri ahantu hamwe, bigaragaza ko ari ho bazororera, bakazizanira ibyo kurya kugira ngo zibashe gukomeza gukura neza.

Ubworozi bw'inkoko, busaba ko izo nkoko zigomba kuba ziba ahantu hashyushye kugira ngo zibashe kororoka kandi n'udushwi twazo dukure. Ni muri urwo rwego rero muri iki cyumba, harimo imbabura irimo amakara ari kwaka kugira ngo habashe gushyuha.

Icyumba gikorerwamo ubworozi bw'inkoko harimo udukoko duto cyane bisa nk'aho tumaze iminsi mike tuvutse, hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kugaburira ndetse no mu guha amazi izi nkoko.

Icyumba cyororerwamo amatungo magufi, hakaba harimo inkoko nyinshi cyane, zifite amabara atandukanye kandi zikaba ziri gutora ibyokurya hasi, bigaragara ko bamenamo ibyo kurya, akaba ari byo zirya, iruhande rwazo hari udukoresho dutandukanye, bifashisha iyo bari gushyiramo amazi yo kunywa.

Ubworozi bw'amatungo atandukanye, hano hari umurima uriho amatungo y'ihene, izo hene zifite amabara y'umweru ndetse n'isine zikaba ziryamye hasi.

Ikiraro cyubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho harimo inka iri kurya ubwatsi hasi ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'ibara ry'isine ikaba yunamye hasi.

Ubworozi bw'inkwavu ni kimwe mu bworozi bw'amatungo magufi budatwara igishoro kinini kuko zidasaba ibyo kurya byinshi, hano turahabona inkwavu zisa umweru ziri mu kibuti cyazo zororerwamo.

lcyumba cyororerwamo amatungo magufi harimo ingurube ifite amabara y'umukara, ikaba iri kumwe n'utwana twayo turimo konka, iki cyumba kikaba kirimo ibiryo ingurube igenda irya.

Iyo inkoko zororewe mu cyumba cyabugenewe ndetse zigahabwa n'ibiryo byose, zigahabwa n'amazi, bituma zikura vuba kuko ziba zitaweho neza maze zigatanga umusaruro kandi zigatera amagi menshi cyane.

Mu buryo bwo kugira ngo imishwi y'inkoko ikomeze gushyuha, basigaye bakoresha uburyo bwo gucana mu kiraro cyazo, bagashyiramo imbabura, ikaka maze ubushyuhe bwo mu cyumba bukiyongera kugira ngo zibashe gukura neza kandi zishyushye.

Icyumba cyororerwamo amatungo magufi, urugero nk'inkoko hakaba harimo inkoko nyinshi z'umweru, zihagazemo ariko zakuze bigaragara ko zibona ibyokurya bihagije.

Kugira ngo umuntu yorore inkoko ahera ku dushwi duto cyane kuko ari two twororoka vuba kabone n'iyo yaba afite amafaranga menshi, hano hari udushwi duto turi mu gitebo cyabugenewe bigaragara ko ari umuntu ushaka kutworora.

Ubworozi ntabwo bugikorerwa mu mafamu gusa ahubwo busigaye bukorerwa mu rugo, aho aborozi bubaka ibiraro binini maze bakazajya bagaburiramo inka ariko ziba ahantu hamwe atari ngombwa ko zijya hanze.

Muri iki gihe inka ntago zikiba mu mafamu gusa ahubwo hasigaye harateye ikoranabuhanga, aho zisigaye zororerwa mu nzu maze zikaba zisa neza kandi zigakura vuba.

Icyumba cyororerwamo amatungo magufi, hakaba harimo itungo ryitwa ingurube, ikaba ari ingurube ifite amabara y'umukara ndetse ifite n'utwana iruhande rwayo.

Ahantu henshi inka ntabwo zikijyanwa mu rwuri ahubwo bazubakira ibiraro bakazishyiramo hanyuma bakajya kwahira ubwatsi bakazizanira zikarya, akaba ari byo bituma inka zibaho neza kandi bakirinda uburwayi bwazo.

Ubworozi bw'amatungo ni kimwe mu bintu bitanga amafaranga muri iki Gihugu, hano hari inka zifite amaherena ku matwi, zose zifite ibara rimwe, ziri mu gisambu bisa nkaho zivuye kurisha.

Mu duce tw'Iburasirazuba bakunda kororera inka mu mafamu aho bazijyana mu bisambu binini cyane birimo ubwatsi butoshye akaba ariho zirishiriza kuko aba ari inka nyinshi cyane, hano haragaragara inka nyinshi ziri kurisha ubwatsi butoshye mu isambu.

Umusaruro mwinshi w'amashaza, aho bigaragara umuntu uri kuyayora mu biganza arimo kuyerekana kuko ni menshi cyane, aho abantu bayajyana kuyagurisha maze bakabona amafaranga menshi yo gutunga imiryango yabo.

Abahinzi basigaye bakoresha uburyo bwa kijyambere mu kwinaza imbuto maze zikazamuka zamara gukura akaba aribwo bazijyana ahandi bakazitera maze zikabyara umusaruro utubutse.

Kugira ngo tubone umusaruro w'ibishyimbo, tubanza gufata imbuto zabyo tukazitera mu butaka, hanyuma zikazavamo igishyimbo kinini maze cyikera utundi dushyimbo twinshi cyane ,bityo umusaruro ukaba mwinshi.

Ubworozi bw'imbuto ni byiza ko umuntu atazishyira ku izuba kugira ngo izuba ritazica, ahubwo barahasakara, muri uyu murima hahagazemo umugore uhetse umwana, wambaye agashati k'umweru.

Mbere y'uko ibihingwa biba bikuru kandi bigasarurwamo ibindi, ni uko babanza kwinaza ingemwe hanyuma zigakuramo ibindi bihingwa, bikaraba bigatanga umusaruro mwinshi.

Ibihingwa byinshi tubitera twifashishije imbuto zabyo, maze akaba ari zo dushyira mu butaka zikazamukamo ikimera kikera, aha turahabona imbuto z'umuceri zisutse hasi.

Imbuto zitandukanye z'ibihingwa, zifashishwa mu gutera ibindi, harimo ibigori, soya ndetse n'umuceri, izi akaba arizo zifashishwa mu gushyira mu butaka maze zikavamo izindi.

Inka nziza cyane z'inyambo zihagaze mu rupango iruhande rwazo hakaba hari abaganga babugenewe b'amatungo bambaye amashati y'umweru ndetse n'uturindantoki bigaragara ko baje kuzivura.

Icyumba gikorerwamo ubworozi bw'inkoko hakaba harimo ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugaburira inkoko, ibi biteza imbere abahinzi ndetse n'aborozi kuko baba baragiriwe inama n'abaganga.

Kubera amashyo akunda kuba arimo inka nyinshi, aha hakaba higanjemo inka z'inyambo zifite amahembe maremare, ni muri urwo rwego rero leta y'u Rwanda, isigaye yigisha hakaba hari abaganga bashinzwe ubworozi bw'amatungo, bityo amatungo yagira ikibazo bakayageraho bihuse.

Abavuzi b'amatungo bambaye imyenda y'ubururu, bakaba barimo kuvura inka bayikora mu nda kugira ngo barebe ikibazo ifite, bakaba bari aho inka zororerwa.

Inka ziri mu rupangu, akaba ari inka z'inyambo zifite amahembe maremare ndetse n'ibara ry'isine, hakaba hari abaganga b'amatungo baje kuzisuzuma kandi bakaba bari kumwe n'abashumba bambaye imyenda y'ubururu.

Ingurube iryamye mu kiraro cyayo ariko bikaba bigaragara nkaho yapfuye ariko kubera ko hasigaye hari abaganga babugenewe bavura amatungo, ubu nyirayo agiye guhita abahamagara baze bayisuzume barebe ikibazo ifite.

Abaganga bita ku matungo aho bari kuvura imbwa bayiryamishije ku gitanda kugira ngo barebe neza uburwayi ifite, bose bambaye udupfukamuwa ndetse n'uturindantoki kandi bambaye n'amatabuririya y'umweru.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi, kirimo abantu babiri bisa nk'aho bari gukora ubushakashatsi, bambaye imyenda yabugenewe, nk'amataburiya ndetse n'uturindantoki.

Abaganga b'amatungo bambaye udupfukamunwa bose ndetse n'indi myenda yabugenewe barimo kuvura imbwa bari kuyitera ibinya ndetse n'ibindi bintu bitandukanye kugira ngo barebe ko yakira.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, ari mu cyumba cy'ubushakashatsi aho ari kuvanga ibintu bitandukanye, bigaragara ko ari umuganga w'amatungo.

Mu rwego rwo kwirinda uburwayi buturutse ku matungo ni byiza ko abaganga b'amatungo babanza gupima inyama mbere yuko abaturage bazijyana ngo bage kuzirya kuko hari igihe itungo riba rifite uburwayi ariko nyiraryo atabizi.

Hasigaye hari abaganga b'amatungo, aho bita ku buzima bwa buri munsi bw'amatungo kandi bagakora n'ubushakashatsi ku burwayi cyangwa se ku kindi kintu kerekeranye n'amatungo kugira ngo babashe kuvumbura.

Amatungo na yo asigaye abaho neza kuko hasigaye hari abaganga babugenewe baba bazi kuyitaho ndetse niyo yagize ikibazo bakayavura bakayaha imiti. Hano turahabona icyumba kinini cyane cyororerwamo inkoko hahagazemo umuntu wambaye imyenda y'icyatsi.

Abaganga b'amatungo baba bafite ibikoresho bitandukanye bakoresha mu kazi kabo, ibi bikoresho haba habitsemo imiti batera amatungo, iruhande rwayo hari umuntu uhahagaze wambaye bote z'umukara.

Inka nyinshi z'Inyambo zihagaze mu rupangu, inyuma yazo hakaba hari abaganga babugenewe, bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki baje kuzivura, hakaba hari n'abashumba bazihagaze iruhande bambaye imyenda y'ubururu.

Ni byiza ko aborozi bajya basuzumisha inka zabo inshuro nyinshi zishoboka kuko hasigaye hari abaganga bavura amatungo, maze bikazabafasha gutunga inka zizewe bazi ko nta ndwara zifite.

Muri iki gihe aborozi b'amatungo ntago bakigira ikibazo ku bijyanye n'indwara z'amatungo yabo, ahubwo bahamagara abaganga babugenewe, maze bakaza kuzivura . Muri urwo rwego rero aha turahabona umugore wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'ubururu, bigaragara ko agiye kuvura inka.

Muri iki gihe nta muntu ukigira ikibazo cyo kurya inyama kubera ko abaganga babugenewe bashinzwe amatungo, basigaye bazipima mbere yuko abaturage bazigura bityo abaturage bakazirya bizeye ko nta kibazo zifite.

Inka ntago zikibagwa uko ziboneye ahubwo habanza kuza umuganga wabigenewe akabanza kuzipima ndetse akanazibaga neza ku buryo nta ngaruka zagira ku baturage.

Amatungo ntabwo agipfa kubera ko asigaye agira abaganga, hano hari umugore wambaye imyenda y'ubururu urimo kuvura itungo ari kurikora mu nda.

Inyamaswa ikunze kuba mu ishyamba ikaba izi kwiruka cyane mu mugihe ihuye n'ibyago, ikaba ifite amabara y'umweru avanze n'isine, ihagaze iruhande rw'igiti iri kureba hirya.

lnyamaswa zikunze kuba mu ishyamba zizwi ku izina ry'inzovu, akaba ari inyamaswa nini cyane zigira imitonzi miremire ,kandi izi nyamaswa zikunda kuba mu biti kandi zikarya imizi y'ibiti.

Hari utunyamaswa dukunda kwibera mu ishyamba bidasaba ko batworohera mu rugo, utwo tunyamaswa twishakiye ibyo kurya kandi tukabaho neza, hano hari utunyamaswa duto tumeze nk'inyoni ariko dukuru.

Mu ishyamba habamo inyamaswa nyinshi zitandukanye kandi nziza, aha turi kuhabona inyamaswa yitwa impara ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, akaba ari yo nyamaswa nziza mu nyamaswa zose ziba mu gasozi.

Inyamaswa ziba mu ishyamba aba ari nziza cyane kuko ziba zikora ibyo zishaka zikiyitaho zidategereje ngo hari umuntu urazitaho, ahubwo ziha byose zikenewe bityo zikaba zisa neza.

Mu ishyamba hakunze kubamo utunyamaswa twiza cyane, aho turi kubona akanyamaswa kameze nk'inyoni ariko gafite amabara meza atandukanye, gahagaze ku rutare hepfo y'aho hakaba hari ikintu cy'igishushanyo cyicayeho umugore.

Mu mashyamba hakunze kubamo inyamaswa nyinshi zitandukanye, aho ziberamo zikarya ibyatsi byo mu ishyamba ndetse n'izirya inyama zikarya izindi nyamaswa zibana mu ishyamba. Hano turahabona utunyamaswa duto, dufite amahembe tujya kumera nk'ihene.

Mu ishyamba habamo inyamaswa nyinshi zitandukanye zibera mu ishyamba zikarisha ibyatsi byo mu ishyamba ndetse akaba ari na ho zirara, hano haragaragara inyamaswa zimeze nk'imbogo zirimo kurisha ibyatsi byo mu ishyamba.

Mu ishyamba n'aho habamo inyamaswa zitandukanye, bidasaba ko ari ngombwa ko bazororera mu rugo. lzi nyamaswa ziba mu ishyamba, akaba ari ho zikura ibyo kurya kandi zikabaho neza.

Mu ishyamba habamo inyamaswa nyinshi zitandukanye yaba inyamaswa nini cyangwa udutoya, hano turahabona akanyamaswa gato kajya kumera nk'imbeba gahagaze ku giti gasa nk'akabuze ibyo kurya gasinziriye.

Inyamaswa ziba mu ishyamba zizwi ku izina ry'impara, akaba ari inyamaswa nziza cyane zigira amabara meza y'umukara n'umweru.

Inyamaswa nini cyane zikunze kuba mu ishyamba rinini aho zikunda koga mu mazi kandi zikaba zikunda kurya imizi y'ibiti kuko ntabwo zijya hanze, ahubwo zikunda kwibera mu ishyamba buri gihe.

Akanyamaswa kameze nk'inyoni gakunda kuba mu ishyamba ariko nanone kakaba gakunda koga, karimo koga mu cyuzi gafite umunwa w'umuhondo ndetse n'amabara y'umukara n'umweru.

Inyamaswa ziba mu ishyamba zijya kumera nk'ubwoko bw'inyoni ariko zo akaba ari nini cyane, zifite amababa y'umweru ndetse n'umukara, zikaba zitora udusimba duto akaba ari two zirya.

Akanyamaswa kaba mu ishyamba, kiruka cyane gato kajya kumera nk'imbwa, kakaba gafite ibara ry'umweru mu gatuza, gahagaze mu twatsi twiza.

Mu ishyamba habamo inyamaswa nziza cyane, tukaba turi kubona inyamaswa ifite amahembe maremare ikaba yitwa isha ifite ibara ry'umuhondo.